Aya ni amazu ari ahantu mu giturage yubakiwe abatishoboye, bikunze kuba mu Rwanda muri gahunda yo gufasha abantu bafite ubushobozi bukeya.

Iki ni ikimenyetso mu mategeko y'umuhanda kigaragaza ko imbere gato hari inzira yambukiranya umuhanda y'abagenzi, iyo imodoka zihageze zikabona iki cyapa zimenya yuko hari abagenzi bagiye kwambuka muri iyo nzira.

Iyi ni siporo rusange, iri kuba mu masaha y'umugoroba, bumajije kwira, ahanini yitabiriwe n'abantu b'urubyiruko, harimo abakobwa n'abahungu.